Leta y'u Rwanda yashize imbaraga mu kubakira abantu amavuriro, ku buryo usanga babubakiye amavuriro meza cane yegerejwe abaturage, nk'iyi nzu niyo kugira ngo bavuriremo abantu batiriwe baja ku bitaro, ni inzu nziza cane iteye amarangi y'umuhondo, inashakajwe amabati meza iriho n'akandagira ukarabe.

Amafarumasi ni amwe mu mazu afitiye akamaro abantu. Ni ibikorwa byiza cyane, kuko bituma abantu bajya kuhagurira imiti aho kugira ngo bajye ku bitaro, kandi ugasanga hatabara abantu mu buryo bwihuse, ugereranyije no kuba abantu bajya mu bitaro bisanzwe.

Abaganga ni bamwe mu bantu dukenera umunsi ku wundi kubera ko barwanaga ku buzima bwacu mu gihe twaba twagize ikibazo c'uburwayi ndetse no kudusuzuma igihe turi kuyumva tutameze neza.

Ibiti by'umuharavumba ni ibiti abantu bahinga bakabitera nko ku mirima, kandi bikaba bivura indwara nyinshi ugereranyije n'ibindi binini tujya gushaka kwa muganga. Ni ubuvuzi rero gakondo butagira ingaruka ku muntu, kuko uba uvurisha ibyatsi karemano.

Ibigori ni kimwe mu bihingwa byiza cyane, kuko bigira uruhare mu kubona ibiribwa mungo dutuyemo. Kandi ibigori bishobra guhingwa bivanzwe n'indi myaka, ntacyo bibangamira kuyindi myaka byaba bihinganwe nayo. Ni ibigori byerera igihe gitoya, kuburyo usanga bitunga urugo mu gihe cya vuba.

Amabuye yo mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru agira umumaro mu kuba yakubakishwa cyangwa se kuyazitiza nk'imirima, bakayazitiza nk'ahantu hari ibitari kugira ngo amatungo atajya kubyonona, noneho bakaba bayazitiza cyangwa se bakayubakisha n'amafondasiyo y'amazu.

Hari ibyatsi byinshi bimera bitoshe bikamera impande y'amabuye yamenetse. Ku buryo usanga ari ahantu haba hafite ifumbire cane ko haba hadahingwaga kenshi ugasanga rero biratoshe bimeze neza nka bimwe by'uburandaryi, by'imikeri n'ibindi.

Ibiti byinshi bya cyera byavagamo imiti yo kuvura abantu hakoreshejwe mu buryo bwa gakondo ugereranyije n'iby'ubu bishobora gukorwamo nk'ibinini cyangwa se inshinge. Ni ubuvuzi rero bwabaga bukorwa n'abanyarwanda ariko na n'ubu bigira umumaro kuko bituma umuntu yivurisha ibimera biboneka iwabo.

Ibifuranende, ni bimwe mu byatsi biboneka mu ntara y'Amajyaruguru, bikunze kuba ahantu hakonja, haba hegereye na za parike, kuko usanga aho biri hera cyane, kuko bituma haboneka ifumbire ihagije mu kweza imyaka.

Ibyatsi byinshi byo mu mashyamba cyimeza, usanga biba birimo umuti . Urugero nk'ibishihe usanga bikoreshwa mu kuvura indwara kandi bikozwe mu buryo bwa gakondo. Bitanga umusaruro kuko bituma umuntu atajya kwa muganga ngo bamuhe ibinini cyangwa bamutere inshinge ahubwo bigakoreshwa nk'umwimerere w'ibyatsi tubona iwacu.

Ibyinshi bivamo imiti kandi ikagira uruhare mu gukiza abantu hakoreshejwe uburyo bwa gakondo butari ubwa kiganga, nicyo cyateye imbere ibi bituma abantu bavurishwa ibyatsi by'umwimerere kandi bagakira mu buryo bwiza kurushaho.